Ikigo cy'amashuri y'abana, abanyeshuri bakaba bambara icyatsi hejuru ndetse no hasi, bakaba abanyeshuri barimo kwerekera ku isomero ry'ikigo.

Ishuri ry'abana, aho iri shuri risakaje amabati y'ubururu, rikaba risize amarangi y'umweru, rikaba rifite ibirahure by'umweru, imbere y'iri shuri hakaba hateye ubusitani burimo indabyo.

Iduka ricururizwamo ibikoresho by'abanyeshuri b'abana. Akaba ibikoresho biba birimo ikaramu, ikayi, urupapuro, ndetse n'ibindi akaba ari iduka ricuruza n'ibindi bintu.

Ishuri ry'abana b'inshuke, aho aba bana bambara impuzankano hejuru y'umupira w'umweru, uvanzemo n'umutuku ndetse n'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri, aho iki kigo cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gikingishije inzugi ndetse n'ibirahure bisa umukara.

Ikigo cy'amashuri aho iki kigo cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gisakaje amabati y'ubururu inzugi n'amadirishya bikaba bisa ubururu, imbere y'amashuri hakaba hari ibendera ry'Igihugu.

Ikigo cy'amashuri cy'abana, kikaba cyubatse gisize amarangi y'icyatsi cyerurutse ku gikuta ndetse n'amabati y'ubururu asakaye, hakaba imbere y'iki kigo, hari ubusitani bugizwe n'ibyatsi ndetse n'indabyo.

Ikigo cy'amashuri abanza, kikaba cyubatse mu buryo amashuri aba agerekeranye. Kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye. Idirishya n'inzugi bikaba bisa icyatsi.

Udukoresho twifashishwa mu kwiga kw'abana, akaba ibikoresho bigizwemo n'inyuguti ndetse n'imibare ariko bifatika, bikaba bikoze mu mpapuro ndetse n'uduti.

Icyumba k'ishuri ry'abana, aho iki cyumba kirimo ibikoresho abana bakenera barimo kwiga, aho hari intebe zisa ubururu ndetse n'umutuku, ameza akaba asa umuhondo hakaba harimo n'ibitabo.

Mu ibikoresho bakoresha biga cyangwa banashushanya mu mijyi. Aho ibikoresho bigizwe n'uducamirongo ndetse n'uduconga icyo bashushanyisha. Bikaba bibikwa mu kintu kimwe kimeze nka...

Ikigo cy'amashuri. Iki kigo kikaba cyubakishije amatafari ahiye. Kikaba gisakaje amabati. Muri iki kigo hakaba hari ibyicungo by'abana bihari.

Ibikoresho bitandukanye byo mu ishuri byifashishwa mu myigire y'umunyeshuri hakaba harimo uducamirongo, uducaruziga ndetse n'inyuguti bifashisha mu gihe barimo kwiga.

Igishushanyo cy'ikigo cy'amashuri. Aana bakaba bari ku murongo, aho umwe ari kumanika ibendera ry'igihugu. Akaba ari kumwe n'abarezi be bambaye impuzankano y'umweru hejuru ndetse abanyeshuri bakaba bambaye ubururu na kacye.

Ikigo cy'amashuri, akaba iki kigo cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisakajwe amabati y'ubururu, imbere mu kigo hakaba harimo icyuma kizamuweho ibendera ry'igihugu.

Ikigo cy'amashuri, aho iki kigo cyubatse amashuri agerekeranye. Hakaba harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishati imbere y'umweru n'imipira y'ubururu ivanze n'umweru. Hasi bakaba bambaye ikigina.

Ikigo k'ishuri. Iki kigo kikaba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa icyatsi ndetse n'umukara. Bakaba bari munsi y'ibiti.

Icyumba cy'amashuri kikaba kirimo abanyeshuri kikaba gisakaje amabati, abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru, y'ikigina hasi, hakaba imbere yabo hari umwarimu uri kubabwira yifashishije indangururamajwi.

Ikigo cy'amashuri cyakoze urugendo rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba ari urugendo rwitabiriwe n'abanyeshuri, abarezi babo ndetse n'inzego z'umutekano.

Icyumba cy'ishuri cy'isumbuye. Iki cyumba kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye. Hakaba harimo ikibaho cy'umukara. Naho abanyeshuri bakaba bambara impuzankano hejuru y'umweru.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye. aho iki kigo cyigamo abanyeshuri bambara impuzankano z'ubururu bw'ikirere, hasi bakambara ubururu bwijimye cyane, akaba muri iki kigo kizengurutswe n'ubusitani, buteyemo ibyatsi ndetse n'imvura.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, bakaba abanyeshuri bambara impuzankano y'umweru hejuru amashati, ndetse n'amajipo y'ubururu bwijimye, bakaba bambara inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru. Bakaba bicaye bari kumvamva ijambo.

Ikigo cy'amashuri cya nyagatare. Kikaba cyubakishije ibikuta bisa n'icyatsi cyerurutse. Hakaba amarembo yaho yubakishijwe n'ibyuma by'umukara, akaba imbere y'ikigo hubakishije amapave hasi.

Abanyeshuri ba kaminuza aho bambaye imyenda isa, amakanzu y'umukara n'ingofero z'umukara n'umwitero w'umuhondo, aho bishimiye gusoza amasomo yabo.

Mu ikigo cy'ishuri rya kaminuza aho iri shuri ari kaminuza nkuru y'igihugu, hakaba hari abanyeshuri bari kwifatanya n'abayobozi bari bari mu nama.

Icyumba cy'ishuri rya kaminuza. Aho iki cyumba gizize amarangi y'umuhondo, muri iki cyumba hakaba harimo intebe zisa ubururu.

ikigo cy'ishuri rya kaminuza aho risize amarangi y'umweru ndetse n'ayandi y'ivu ku ruhande. Hakaba hanze hateye ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi.